Icupa riteretse rifite ibara ry'umweru n'umutuku, ririmo umuti wo gutera ibihingwa kugira ngo bikure neza ,kandi ni umuti wica udukoko dutuma ibihingwa bitagira umusaruro mwinshi.

Umugabo uhagaze mu murima wambaye igisarubeti uhetse ipombo, ari gutera umuti inyanya kugira ngo azabone umusaruro mwiza, kandi gutera umuti byica udukoko dutuma inyanya zangirika.

Imifuka ine ifite amabara atandukanye icyatsi igitaka ,umweru ,ubururu ,umutuku, irimo imvaruganda. Imvaruganda ni nziza turayifumbiza, ibihingwa bigakura neza.

Icupa rinini riteretse ry'umukara, rifite icyapa cyandikishijwe ibara ry'umutuku n'icyatsi, ririmo umuti wo kwica udusimba dutera indwara. Udusimba tubi twanduza uburwayi.

Umugabo wambaye ingofero, ishati y'umutuku irimo uturongo tw'umukara, ipantaro y'umukara. Ahetse ipombo ifite ibara ry'umuhondo, ari gufuhira imyaka kugira ngo izere neza, tubone umusaruro mwinshi kandi mwiz1,a

Umugabo uhagaze wambaye umupira urimo amabara y'icyatsi n'umuhondo. Ipantaro y'umukara, yambaye na boti z'umukara, ari gushyira ifumbire ku bitunguru ngo bizere neza tubisarure. Muzaze tubahe ibitunguru ku giciro cyiza.

Isambaza nyinshi ziri mu mabase atandukanye afite amabara y' umutuku, icyatsi, umweru ziteretse hasi. Isambaza ni nziza turazirya zigatuma tugira vitamini mu mubiri.

Udupaniye dufite amabara atandukanye, umutuku, umweru. Amafi menshi afite intungamubiri ku buzima bwacu, muze tubagurishe ku giciro cyiza.

Ikizenga kirimo amazi menshi bororeramo amafi, utuzu twubatse mu kizenga twubakishije ibiti bororeramo inkwavu, ikizenga kivamo amafi tukayagurisha kandi turayarya tukagira ubuzima bwiza.

Ifi nini ifite amabara y'umukara n'umweru, iryamye kumeza bagiye kuyibaga, ifi ni nziza igira inyama zituma tugira ubuzima bwiza. Iyo tuyiriye umubiri wacu ubona intungamubiri, kandi ifi tuyikuramo amafaranga, iyo tuyijyanye kuyigurisha.

Indobo y'umweru irimo amazi arimo amafi, agatandaro bakoresha bari kuroba amafi mu mazi, karimo amafi menshi, muze tubagurishe amafi, atuma tugira intungamubiri...

Isorori, icyuma, irimo isosi y'umutuku, ikabamo umutsima, isosi irimo imboga. Isosi ni nziza ituma mu gifu horoha hagakora neza. Imboga ni nziza na zo zigira vitamini ituma umubiri wacu ukurana ubuzima bwiza.

Abantu benshi bicaye mu bwato bw'igiti, abandi barahagaze bafite indobo bari kuroba amafi. Kuroba ni byiza bituma tubona amafaranga kandi tugakuramo amafi yo kurya.

Amafi menshi aziritse, aryamye mu ndobo ifite ibara ry'icyatsi. Amafi atuma tubona amafaranga, kandi iyo tuyariye tugira intungamubiri, ubuzima bwacu bukagenda neza, umubiri ugakura neza.

Amafi abiri aryamye indimu ikase, ironji rikase, inyanya, byose birikumwe biraryoha n'ibintu bituma tugira intungamubiri, ubuzima bwacu bugakura neza, indimu ituma tugira uruhu rwiza.

Isoko ririmo abantu benshi bari gucuruza amafi aturuka mu mazi arimo ubwoko bwinshi harimo indagara, isambaza byose bituruka mu mazi, bigira intungamubiri iyo ubiriye bituma umubiri ukora neza.

Amajeri ateye ari kuzamuka afite amababi akagira uruyange, ni menshi. Amajeri iyo tuyariye agira intungamubiri, umubiri wacu ugakura neza. Kandi ikindi turayagurisha hakavamo amafaranga.

Umurima urimo ibyatsi byinshi bivanze n'amajeri, uteyemo uruyuzi rwiza ruri kurandaranda, rufite amababi y'icyatsi. Inzuzi ni nziza zivamo ibihaza, turabigurisha ,kandi ibihaza ni imboga nziza zituma tugira umubiri mwiza.

Igiti giteye gifite amababi y'icyatsi kiziritse ku rubaho rushinze mu butaka, urukuta rw'amatafari ahiye rwubakishije sima. Amatafari ahiye ni meza kuyubakisha kongera inzu ubwiza bityo kandi isima ituma inzu ikomera cyane.

Umuntu wicaye ku igare riri kugenda, upakiye ikidomora gifite ibara ry'umuhondo, amashuri yubakishije amatafari ahiye asize irangi ry'icyatsi amabati nk'icyatsi, amashuri ni meza, atuma abana bacu biga bakagira ubweng, bakaziteza imbere.

Umurima urimo ibyatsi byinshi udahinze, ibiti biri iruhande rwawo, bimwe bifite indabyo z'umweruru, indabyo ni nziza zituma tugira umwuka mwiza wo guhumeka. Ibiti tubikuramo inkwi, ibindi tukabyubakisha amazu yacu.

Ibyatsi byitwa kameroni birakuze, insina nziza zifite amakoma y'icyatsi. Ibyatsi tubiha inka zigakura tukabona amata ndetse n'inka tukazigurisha tugakuramo amafaranga.

Umurima uhinze utemo igiti cy'isombe gifite amababi y'icyatsi, n'igiti cya voka kitari cyera, isombe ni nziza ituma tugira vitaminini mu mubiri, bityo umubiri wacu ugakura neza.

Imboga ziteye zifite uruti rw'umutuku, n'indabyo z'umutuku, amababi y'icyatsi. Imboga ni nziza zigira intungamubiri. Turaziteka tukazirya, abana bacu bagakurana ubuzima bwiza.

Umurima urimo ibyatsi n'insina zifite amakoma manini y'icyatsi hateyemo ibigori byarahetse bigeye kwera. Ibigori ni byiza turabirya kandi tubikuramo amafaranga agatuma tugura ibindi dukenera mu buzima.

Urutoki rurimo insina zifite amakoma y'icyatsi, harimo n'igiti kinini gifite amashami menshi, urutoki ni rwiza iyo rweze dukuramo ibitoki byo gukama ugwagwa n'ibindi byo kugurisha ku isoko muzaze tubagurishe ni karibu.

Ikibara kirimo ibyatsi， kiragiwemo intama nyinshi zifite amabara atandukanye，harimo iz'umweru zifite ibara ry'igitaka，intama tuzikuramo amafaranga， iyo tuzijyanye ku isoko， kandi turazibaga tukazikuramo inyama zo kurya.

Ibiti by'inturusu bivanze birimo ibinini n'ibitoya, biri mu ishyamba. Ibiti ni byiza turabicana, bikavamo inkwi ibindi tubyubakisha amazu. Ibiti muzaze tubagurishe tugurisha ku giciro cyiza.

Igiti cyiza cya avoka gifite amashami, ariho voka nyinshi zeze n'izindi ziteze, karibu tubahe kuri voka, voka nziza zituma tugira uruhu rwiza.

Avoka ihiye irasatuye, irimo ibipande bibiri, kimwe kirimo ikibuto. Avoka ni nziza turazirya zongera amavuta mu mubiri, bityo uruhu rwawe rukamera neza.

Umufuka uhagaze urimo ibintu, ufite ibara ry'umweru n'umuhondo n'undi w'igice. Igare riparitse rifite agacupa k'umweru n'umukara, igare ni ryiza ridufasha mugupakira imizigo.

Amateke menshi avanze arimo ayakoze neza, ayandi ariho ibitsinsi n'amababi yako ari ku mufuniko w'indobo ifite ibara ry'umweru. Muzaze tubagurishe amateke ni meza, iyo tuyariye adutera imbaraga.

Ishu rifite amababi menshi y'icyatsi rimaze kwera, ishu n'imboga nziza turaziteka tugakuramo vitaminini ituma umubiri wacu ukura neza, amashu muzaze tubagurishe tugurisha ku giciro cyiza.

Umugabo uri gusarura inanasi harimo izeze niziteze ari kuzishyira mu gapaniye gafite ibara ry'icyatsi. Inanasi ni nziza zituma tugira isukari mu mubiri uzaze tugurisha ku giciro cyiza.

Amapera abiri ahiye, rimwe risatuyemo kabiri, irindi riracyari ryose, amapera ni meza turayarya ari mu mbuto zituma tugira ubuzima bwiza, kandi tuyajyana ku isoko, akaduha amafaranga.

impungure ziri mu mifuka izindi ziri mu mumufuka w'umweru zose zifite amabara atandukanye, hari ifite ibara ry'umuhondo izindi zikagira ibara ry'umweru. Impungure nziza turazirya izindi tukazibetesha zikavamo igikoma gituma tugira ubuzima bwiza.

Inkwavu eshatu zifite amabara atandukanye umukara, umweru ziraryamye zose ziri kureba ahantu hamwe muze tuboroze hano.

Igiti cy'avoka gifite amashami menshi ,rimwe ririho avoka zeze andi ariho iziteze. Ni karibu tubahe kuri avoka. Zituma tugira uruhu rwiza bityo tugakurana ubuzima bwiza.

Ibijumba binini biri mu butaka, bifite ibara ry'umutuku biri kumwe n'imizi yabyo. Ibijumba n'ibyiza tubijyana ku isoko bikaduha amafaranga iyo byeze.

Umugore wambaye bote z'umukara, ipantaro y'umukara, umupira, yiteze igitenge, afite isuka mu ntoki n'amabase atatu mu ntoki agiye guhinga. Guhinga ni byiza bituma tubona ibyo kurya kandi tukiteza imbere.

Umugore uhagaze uri guseka, wambaye ikanzu irimo amabara y'umutuku n'umukara, ateruye impungure mu biganza. Impungure ni nziza turazirya tugakomera, ikindi turazibetesha zikavamo igikoma tukakinwa, abana na bo bagakurana ubuzima bwiza.

Igihaza gikase gifite ibara ry'umuhondo mu nda, harimo inzuzi nyinshi. Inzuzi ni nziza zigira akamaro mu mubiri. Iyo uzanitse, ukazibetesha zikavamo ifu. Ifu yazo ni nziza yongera intungamubiri, umubiri ugakura neza.

Ibiti byinshi bifite amababi y'icyatsi byeze imbuto z'amaronji ,zifite ibara ry'umuhondo zose zarahishije. Imbuto z'amaronji ni nziza turazirya zikongera vitamini mu mubiri, kandi zituma tugira ubuzima bwiza.

Igitoki kiri ku nsina keze gifite amabere magufi. Igitoki kiza tugikuraramo amafaranga kandi iyo tubitaze tukabikama bivamo urwagwa rwo kugurisha hakavamo amafaranga.

Abantu bane barimo umugabo umwe n'abagore batatu, bunamye mu murima bari gukura ibyatsi bitari umuceri, kugira ngo umuceri uzakure neza tubone umusaruro uhagije.

Imbuto nyinshi zivanze n'imboga harimo: indimu, intoryi, pavuro, imiteja, byose ni byiza imboga ziturinda indwara, imbuto zikadutera kugira ubuzima bwiza.

Amatunda ari ku migozi afite amababi menshi, ayandi afite amatunda agiye kwera. Amatunda ni meza ku mwana. Iyo ayariye akurana ubuzima bwiza, kubera ko agira intungamubiri.

Ibirayi byinshi biri mu gitebo bifite ibara ry'umutuku byitwa kinigi, ibindi bifite ibara ry'umuhondo . Ibirayi iyo byeze tubijyana ku isoko bakaduha amafaranga, ibindi turabirya byongera imbaraga mu mubiri.

Igishanga giteyemo umuceri umwe ureze, uwunndi ntago urera, abantu bari gusarura bawuhuye, bawushyize ku mahema, biti byinshi biri mu gishanga, ni karibu tubagurishe umuceri.

Abantu bahagaze mu murima w'ibishyimbo, bambaye umipira z'umweru, amapantaro y' umukara, abandi bari gushingirira ibishyimbo byiza, byarameze muzaze mudufashe gusarura.

Ingingo z'ibisheke zitemaguye, zifite amabara atandukanye, igisheke ni cyiza kiraryoha gituma isukari yiyongera mu mubiri, muzaze tubahe ku giciro cyiza.

Umugabo wambaye umupira w'umweru uri guseka, ateruye ibase y'icyatsi irimo amatunda ahiye, muzaze tubagurishe amatunda, ni meza atuma tugira ubuzima bwiza.

Inka iryamye ku kibuga cy'ibyatsi byinshi ,ifite amabara y'umutuku n'umweru. Ibiti byiza byinshi bihagaze, karibu tubahe ku mata meza.

Ibijumba binini bitondetse bifite ibara ry'umutuku; ibijumba turabiryaya biraryohaha, bituma tugira imbaraga kandi tubijyana ku isoko tukabikuramo amafaranga bigatuma twiteza imbere.

Ibiti byinshi bifite amashami menshi, amababi y'icyatsi bifite imbuto z'umuhondo, imbuto zituma tugira ubuzima bwiza kandi ibiti ni byiza bituma tubona umwuka mwiza wo guhumeka.

Ibigori byeze bivanze n'imigozi y'ibijumba, byose bireze. Ibigori nibyiza bituma tubona igikoma n'umutsima, bidufasha gukura k'umubiri wacu muzaze tubahe.

Umurima uhinze urimo insina. Insina imwe iriho igitoki cyeze giteye inkingi, igitoki turakirya cyane kandi tukijyana ku isoko tugakuramo amafaranga tukagura ibindi dukeneye.

Amateke akuye y'amabungubungu ari mu ndobo y'umuhondo . Uwayariye amutera imbaraga. Muzaze tubahe, ni karibu.

Abantu bafite amasuka bari guhinga, bamwe barunamye, abandi barahagaze, bari gukora amaterasi, atuma turwanya isuri mu mirima yacu.

Abantu benshi bari mu murima. Bafite amasuka bari guhinga, abandi barahagaze bari kubagara ibyatsi. Guhinga ni byiza biduha amafaranga, kandi tukabona ibyo kurya, kugira ngo ubuzima bwacu bukure neza.

Amateke yitwa amabwayisi arakuye araharuye neza, aketse ku mitwe yayo, amateke yitwa bwayisi ni meza araryoha atuma tugira imbaraga zo gukora, kandi turayagurisha akavamo amafaranga muzaze tubagurishe.

Ishashi y'umweru irimo ibinyomoro byinshi bifite ibara ry'umutuku iteretse ku nkoko, imyembe ihiye iri kumwe n'ibihaza bifite ibara ry'icyatsi bikebye mu nda harimo ibara ry'umutuku babirya bidatetse. Muze tubagurishe imbuto nziza.

Abagore babiri biteze ibitambaro bunamye mu murima w' ibereti, bari kubisoroma. Ibireti turabigurisha tukabona amafaranga, tukiteza imbere.

Amateke y'umutuku arimo akase yitwa amayobera, ni meza atuma tugira imbaraga, akagira na vitamini, agatuma dukura neza.

Umugabo uhagaze, wambaye umupira w'amaboko maremare, urimo amabara y'umutuku, umukara, umweru, ari kwicira ibigori, kugira ngo ibindi bizazamuke neza, bitange umusaruro mwinshi uhagije.

Igiti cy'umwembe gifite amashami abiri ariho imyembe ifite ibara ry'igitaka itari yera. Imyembe ni myiza n'imbuto, turazigurisha tukabona amafaranga, izindi turazirya tukagira ubuzima bwiza.

Imyumbati myinshi bayikuye irarundanyije haracyariho ibitaka. Imyumbati ni myiza tuyikuragamo amafaranga, ikindi turazirya ituma tugira imbaraga tugakora akazi neza.

Inkwavu nyinshi ziri mu cyari cyazo zifite ibara ry'umweru, cyubakishejwe imbaho z'ibiti. Inkwavu ni nziza iyo uzigaburiye neza, uzijyana ku isoko akuramo amafaranga atuma witeza imbere.

Ubwoko bwinshi bw'imbuto, butondetse ku gisahani cyubakishije imbaho z'ibiti. Harimo iz'umutuku, umuhondo, icyatsi zitwa indimu, ibinyomoro, amaronji. Imbuto ni nziza k'ubuzima bwacu zituma dukurana ubuzima bwiza.

Amababi y'igihaza, uduhaza dutoya dufite indabyo z'umuhondo, turakekaguje, ni imboga nziza, ziraryoha, muze tubahe, zituma umubiri ukura neza.

Inanasi nziza zitanditse ku giti, zisa n'umuhondo. Muze tubagurishe ku giciro cyiza. Inanasi zigira akamaro ku mubiri, zongera isukari mu mubiri.

Amaronji ane yeze, atukuye, rimwe risatuyemo ibice bibiri, imbuto ni nziza zituma tugira ubuzima bwiza. Karibu tubahe ku mbuto.

Ingurube nyinshi ziri mu kiraro. Abantu barahagaze bari kuzireba, harimo n'abaje kuzigura. Ingurube zacu ni nziza zimeze neza, muzaze tubagurishe harimo izo kubaga, ku giciro cyiza cyane.

Ibirayi byinshi bikuye biri mu butaka, bifite ibara ry' umutuku kumwe n'imigozi yabyo. Ibirayi ni byiza turabirya, ibindi turabigurisha tukabona amafaranga. Namwe muzaze tubagurishe ku giciro cyiza.

Umugabo uri mu murima wambaye inkweto z'umweru, ipantaro y'icyatsi ikoboyi, umupira urimo amabara y'umweru n'umukara , yambaye agapfukamunwa ateruye igiti kiriho imyumbati myinshi minini, imyumbati ni myiza turayigurisha havamo amafaranga kandi turayibetesha havamo umutsima.

Umugore uhagaze wambaye ingofero y'umutuku, umupira w'umuhondo' afite inanasi mu ntoki' inyuma ye hari n'izindi nyinshi. Inanasi ni nziza, zituma twongera isukari mu mubiri, ikindi turazigurisha tugakuramo amafaranga, muzaze tubagurishe.

Igiti cy'inyanya kiriho inyanya ebyiri zitukuye izindi ziracyari ibitoshyi. Inyanya ni nziza turazigurisha tukabonamo amafaranga tukiteza imbere kandi inyanya turazirya zivamo isosi nziza.

Intoryi nyinshi baziciye, zifite ibara ry'umuhondo, intoryi nziza zigira vitaminini mu mubiri, vitaminini yitwa ca, kandi intoryi tuzijyana ku isoko bakaduha amafaranga tukiteza imbere.

Igiti cy'amapera gifite amababi menshi y'icyatsi hariho n'amapera rimwe riratukuye irindi ntabwo rihiye neza, ayandi aracyari matoya aracyari ibitushi, amapera ni meza tuyajyana ku isoko tukabonamo amafaranga kandi turakayarya agatuma tugira ubuzima bwiza.

Ibijumba byinshi bifite ibara ry'umutuku, bituruka ku migozi yitwa tura muzaze tubahe. Ni byiza bituma tugira imbaraga.

Intoryi nziza zifite ibara ry'umuhondo baziciye zirarunze. Intoryi ni imbuto nziza ziryoha, zituma ubuzima bwacu bugira vitaminini C.

Urukwavu runini ruryamye mu cyari cyarwo， rufite utwana dutanu， ruri kutwonsa， urukwavu rurororoka，ku buryo warujyana ku isoko，ugakuramo amafaranga，atuma witeza imbere.

Imishogi nyinshi y'igitono iri mu gasero kaboshye neza, igitonore ni cyiza, turakirya, gituma tugira ubuzima bwiza, muzaze tubagurishe igitonore ku giciro cyiza, namwe mwumve uburyohe bwa cyo.

Umugabo wunamye wambaye ishati y'amabara y'umukara n'umutuku n'mweru, afite umupira wa parasitike uri kunyuramo amazi, ari kuvomerera indabyo, iyo uvomereye indabyo zikura neza, kandi zigasa neza.

Umugore uhagaze wambaye bote z'umukara, igisarubeti cya kaki, ari kugaburira ingurube mu kidomora gifite ibara ry'umuhondo, ingurube iyo uyigaburiye neza, iguha amafaranga, kandi ivamo inyama, tukazigurisha tukiteza imbere.

Umugore uri mu murima witeze igitambaro cy'umukara wambaye umupira w' icyatsi, ufashe ibase ifite ibara ry'ubururu ari kwaha pavuro. Pavuro nziza, imboga zongera vitamine mu mubiri kandi turazigurisha ku isoko, bakaduha amafaranga tukiteza imbere.

Avoka ihiye isatuyemo ibice bibiri. Mo imbere harimo ibara ry'umuhondo. Avoka nziza, iraryoshye, igira akamaro ku ruhu, yongera amavuta mu mubiri. Muzaze tubagurishe tuzigurisha ku giciro cyiza.

Pavuro nyinshi zeze zifite amabara atandukanye, icyatsi, umutuku, muzaze tubagurishe Pavuro nziza, ziraryoha, baziteka mu isombe, zikongera intungamubiri.

Ihene nyinshi ziryamye izindi zirahagaze, zifite amabara atandukanye umukara, umweru ziri mu kiraro. Ihene ni nziza zituma tubona ifumbire tugahinga ibyo kurya.

Imyumbati myinshi, minini, ikuye, iratondetse ,tuyigurishaga turi gupima ku munzani ku kiro. Nawe niba uyishaka, uzaze tuyikugurishe ku giciro cyiza, kuko imyumbati ni ibiryo byiza bituma tugira imbaraga.

Isoko ry'imbuto z'amoko menshi harimo amaronji, ibihaza barya badatetse, indimu, pome, amatunda. Tugurisha neza, muzaze mwigurire imbuto ni nziza zigira akamaro ku buzima bwacu.

Abagabo bari mu murima w'ibigori bambaye imyenda y'umukara, ingofero z'umweru, bahetse ipombo ifite ibara ry'umutuku n'umweru, bari gutera umuti, gutera umuti imyaka ni byiza, kuko byica udukoko dutuma tutagira umusaruro mwinshi.

Umuntu usutamye ufite agapaniye gakozwe mu byuma ari gusoroma amajeri. Amajeri ni meza, atuma tugira ubuzima bwiza, afite intungamubiri zituma umubiri wacu ukura neza.

Ibigori byinshi bitondetse biri mu gapaniye, bifite amasaro afite amabara atandukanye. Harimo umutuku, umukara, umuhondo. Ibigori ni byiza. Iyo byeze tubikuramo ifu, umutsima wo kurya, ubuzima bwacu bukagenda neza.

Ibigori byinshi biri mu murima bimaze kuma bitegereje gusarurwa, kugira ngo hazaboneke umusaruro mwinshi. Ikigori iyo cyumye nibwo kivamo umusaruro mwiza, kandi ukagera ku isoko umeze neza.

Amasaro menshi y'ibigori， afite ibara ry'umuhondo, ibigori ni byiza， tubiryamo impungure， tukabijyana ku cyuma bakabisya， tugakuramo umutsima，tukanywa igikoma， byose bituma ubuzima bwacu bugenda neza.

Ibishyimbo byinshi biri ku ihema byumye, birimo ibifite amabara atandukanye, umutuku, umukara ndetse n'ibifite ibara ry'igitaka. Ibishyimbo ni byiza turabirya, bikadutera imbaraga, ikindi tubijyana ku isoko, tukabikuramo amafaranga.

Ibishyimbo bifite amababi y'icyatsi arimo imiteja, hakabamo n'uruyange rufite ibara ry'umutuku, imiteja ni myiza ni imboga turazirya tukagira ubuzima bwiza.

Amasaka menshi ahagaze, afite amababi y'icyatsi, amwe areze, andi ntabwo yari yera, amasaka ni meza, tuyakuramo umusururu, ayandi tukayajyana ku isoko, bakaduha amafaranga, agatuma twiteza imbere.

Umugabo uhagaze wambaye ishati y'igitenge irimo amabara y'umutuku n'umweru, ipantaro ya kaki afite imigozi y'ubunnyobwa. Ubunyebwa ni bwiza butuma tugira amavuta mu mubiri. Muzaze tubagurishe ku giciro cyiza.

Ibishyimbo byinshi bifite imiteja y'icyatsi, bikagira uruyange n'amababi y'icyatsi manini, ibishyimbo ni byiza, bigira imboga zitwa umushogoro, turazirya zikongera vitamini mu mubiri, kandi ibishyimbo turabigurisha bikavamo amafaranga.

Ibigori byinshi byumye bitonoye, biziritse ku biti bisize irangi ry'umukara. Ibigori ni byiza iyo ubibitse neza bituma bivamo igikoma cyiza, kandi ubijyana kubibetesha bikavamo umutsima mwiza, tukawurya tukagira ubuzima bumeze neza.

Imiteja ifite amabara atandukanye. Harimo ibara ry'icyatsi, indi ifite ibara ry'umuhondo. Iri mu gasero. Imiteja myiza tuyiteka mu biryo igatuma tugira ubuzima bwiza. Kandi ni imboga zirinda indwara.

Abagore babiri bahagaze, bari gukura ubunyebwa babushyira mu ibase ifite ibara ry'umukara, muzaze tubahe ubunyebwa bwiza, bugira amavuta atuma tugira uruhu rwiza.

Inzu y'ibyuma ifite amabati y'umutuku, irimo ibigori byanitsemo. Ibigori bituma tubona umutsima wo kurya tukabona n'igikoma, abana bakanwa bagakurana ubuzima bwiza.

Ibimene by'amajeri bifite ibara ry'icyatsi, biri ku isahani ifite ibara ry'umuhondo n'ubururu, iteretse ku meza y'igiti. Ibimene by'amajeri ni byiza, byongera intungamubiri, kandi bigatuma dukurana ubuzima bwiza.

Abagore benshi bunamye bafashe inkoko ziriho amasaka. Bari kugosora ibigori byinshi byumye barabisaruye. Amasaka ni meza avamo umusururu wo kunywa kandi turayabetesha akavamo igikoma.

Ibigori byinshi byumye, biziritse ku migozi bikaba bimanitse ku biti. Ibigori ni byiza, turabihungura bikavamo impungure zo kurya, kandi turabibetesha bikavamo umutsima, igikoma, bityo tukabirya tukamererwa neza.

Ubunyobwa bwinshi buvanze ubutonoye n'ubudatonoye bureze. Muzaze tubagurishe ubwo mushaka, bwaba ubutunomeye n' ubudatonoye ku giciro cyiza. Ubunyobwa butuma tugira uruhu rwiza, rwongera amavuta mu mubiri.

Umuceri uteye ufite amababi y'umuhondo n'icyatsi ufite imbuto z'umuhondo, uri hafi kwera muzaze tubagurishe ku giciro cyiza. Umuceri turawurya tukagira ubuzima bwiza.

Umurima uhinzemo igihingwa cy'ubunyobwa buhinze neza， ubunyobwa ni bwiza， tubukuramo amafaranga iyo bweze，ikindi kandi dukuramo ifu nziza，ituma tugira ubuzima bwiza， ifu yongera amavuta mu mubiri.

Imifuka ifite ibara ry'umweru, umutuku n'umuhondo, yuzuyemo imbuto z'ingano zifite ibara ry'umuhondo, ingano ni nziza tuzikuramo amafaranga, izindi tukazijyana kuzibeta, zikavamo igikoma cyiza gituma umubiri ukurana ubuzima bwiza.

Isoko ry'ibiribwa ririmo ubwoko butandukanye ibishyimbo, amashaza turapima ku kiro tukabagurisha ku giciro cyiza. Namwe muzaze mwigurire tugurisha neza cyane karibu.

Ingurube nyinshi zihagaze ku byatsi. Zifite amabara atandukanye umukara, umweru. Zigira inyama, zikagira ifumbire. Muzaze tubagurishe ingurube, ni nziza zitanga inyama.

Inka nyinshi zifite amabara atandukanye. Umukara, umweru, ibara ry'igitaka bari kuzigaburira ziri kurya ziri mu rwuri, mu byatsi byinshi. Inka iyo uzigaburiye neza ubona umukamo w'amata, ukabonamo amafaranga.

Inka iryamye mu kiraro ifite ibara ry'umweru n'umukara, ni nziza ituma tubona amata tukagira ubuzima bwiza, abana iyo bayanywa bakura neza.

Inka nini ihagaze mu kiraro cy'ibiti ifite ibara ry'umweru n'umukara iri kurira mu gisahani cyubakishijwe ibiti. Inka iyo uyubakiye aho kurira heza bituma ikura neza ukabona umusaruro ikaguha n'amata menshi.

Amagi afite ibara ry'umweru, atondetse mu matureyi afite amabara y' umutuku n'ubururu. Amagi ni meza agira intungamubiri, kandi turayagurisha akavamo amafaranga.

Inkwavu nyinshi ziryamye zifite amabara atandukanye, umukara n'umweru. Zituma tubona ifumbire, tukabona n'inyama zidutera kugira ubuzima bwiza . Muzaze tubagurishe ku giciro cyiza.

Ingurube nyinshi ziryamye mu kiraro, zifite ibara ry'umutuku. Ikiraro cyubatse neza, cy'imbaho z'ibiti. Kubaka neza ikiraro bituma itungo riryama neza, kandi rigakurana ubuzima bwiza.

Ingurube nyinshi zihagaze mu kiraro cy'ibiti, abagabo bazisuye, bari kuzikoraho bareba ko hari ikibazo zaba zifite, ingurube ni nziza, zigira inyama, turazirya, tukagira ubuzima bwiza.

Imishwi nyinshi y'inkoko ihagaze izindi ziraryamye mu cyari cyazo, imishwi iri hafi gukura, muzaze tubagurishe namwe mworore, inkoko ni nziza zivamo amagi atuma tugira ubuzima bwiza, kandi turazigurisha tugakuramo inyama.

Inkoko nyinshi ziryamye izindi zihagaze. Zifite ibara ry'umweru, izindi bari kuzipima ku munzani ngo barebe ibiro zifite. Muzaze tubagurishe umushwi w'inkoko.

Inka ihagaze mu kibuga cy'ubwatsi ifite amahembe manini y'umweruru, ikagira ibara ry'igitaka n'umweru, iri kurisha ubwatsi. Inka nziza zituma tubona ifumbire tugahinga ibihingwa bikera neza, tukabona umusaruro mwinshi.

Inkoko nyinshi, zihagaze mu kiraro cyubakishije ibyuma n'amabati y'umweru, zifite amabara atandukanye muze tubahe ku magi ku giciro cyiza cyane.

Ingurube nini iryamye iri konsa ibyana bya yo, ibyana bifite amabara y'umukara n'umutuku, ingurube zituma tubona inyama, ikindi turazigurisha zikavamo amafaranga yo kugura ibindi dukenera mu buzima.

Inkoko ihagaze mu kibuti cyayo, ifite ibara ry'umuhondo n'umutuku, iri gutora udusimba, inkoko ni nziza zitera amagi, atuma tubona vitamini mu mubiri kandi inkoko turazibaga tugakuramo inyama, tukazigurisha tukabona amafaranga.

Abantu benshi bahagaze, harimo umugabo wambaye agapfukamunwa gafite ibara ry'umweru n'akagofero k'umweru, wambaye ga mu ntoki ari gukora mu nda y'itungo, kugira ngo arebe niba hari indwara irwaye, aba baganga nibeza batuvurira amatungo.

Ingurube nini iryamye mu kiraro cyubakishijwe imbaho z’ibiti. Ingurube iyo uyigaburiye neza irakura, ukayigurisha, ugakuramo amafaranga yatuma witeza imbere.

Inka nyinshi zifite amabara atandukanye, umutuku umweru, ziri kugenda mu bwatsi. Ishyamba rinini rituma tubona umwuka mwiza duhumeka. Muzaze tubahe amata ku giciro cyiza.

Inka nini ihagaze mu byatsi, ifite amahembe magufi, ikagira amabara y'umukara n'umweru. Inka nziza ziduha amata turayanywa tukagira umubiri mwiza, ayandi tukayajyana ku isoko, tukabonamo amafaranga.

Inka nyinshi zihagaze mu kiraro, zifite amabara atandukanye umukara, umweru, igitaka, ziri kurisha ubwatsi bazihaye, inka ni nziza ziduha amata atuma tugira umubiri mwiza, zikaduha ibishingwe bituma tubona umusaruro mwinshi w'ibihingwa.

Ihene ifite ibara ry'umukara, n'igitaka. Ihagaze mu kiraro cyubakishije ibiti, ikiraro kirimo ibyatsi byinshi. Ihene iyo uyigaburiye neza iguha ibishingwe byo guhingisha imyaka, igakura neza kandi urayigurisha ikavamo amafaranga.

Ikinyoni kinini kirekire, gifite amabara y'umukara, umweru, kikagira umunwa w'umuhondo muremure, gihagaze mu muceri, n'amapapayi meza, ateye, atari yera, ipapayi ni ryiza rigira vitaminini, bityo umubiri wacu ugakura neza.

Inkende ebyiri zihagaze ku giti cy'umugano, gifite amababi matoya menshi, inkende zifite ibara ry'umuhondo n'umukara, ni igisimba gituma tubona abazungu baje kukireba, bakadusigira amafaranga yitwa amadovize.

Ubwoko bw'inkoko nini bufite amababa afite amabara y'umukara n'umweru buri gutoragura udusimba mu byatsi. Ybu bwoko bw'inkoko ni bwiza, bugira inyama nyinshi kandi nziza uzaze tukugurishe, tugurisha ku giciro cyiza.

Inkoko nini ifite amabara y'umweru n'umukara, iryamye mu byatsi izindi ziri gutoragura udusimba mu byatsi, inkoko nziza zigira inyama zigatera amagi byose bitera intungamubiri.

Urukwavu rurahagaze, rufite ibara ry'igitaka, ukwavu ni rwiza, turarugurisha tukabona amafaranga, kandi ruvamo inyama tukazirya, tukagira umubiri mwiza.

Inyamaswa ihagaze ifite amahembe maremare, ifite ibara ry'umutuku n'umweru, ihagaze ku byatsi byinshi. Inyamaswa ni nziza, zituma tubona inyama tukagira ubuzima bwiza.

Inyoni ifite umunwa w'umukara, ikagira ibara ry'umuhondo n'amababa y'umukara, iri kubaka icyari cyayo kugira ngo izakibemo. Inyoni zituma tubona ba mukerarugendo iyo baje kuzisura.

Inyoni ifite amaguru y'umutuku maremare, amababa y'umukara, umunwa w'umuhondo, ihagaze ku giti gifite ibyatsi byinshi. Inyoni zituma tubona ibyishimo iyo ziri kujwigira.

Inyamaswa nini cyane ihagaze mu ishyamba. Ifite amahembe n'umunwa muremure, ikagira ibara ry'igitaka. Inyamaswa nziza zituma abazungu baza kuzisura bakadusigira amafaranga yo gukoresha twubaka Igihugu cyacu.

Agaca gafite inzara zisongoye, amaguru y'imihondo, kakagira ibara ry'igitaka n'umukara, gahagaze ku ishami ry'igiti cyumye ,agaca n'inyoni mbi idutwarira inkoko.

Akanyoni gafite amabara y'ubururu, umukara ,umweru, umutuku, gahagaze ku ishami rifite amacumu menshi. Inyoni ni nziza ziri mu biremwa bituma twishima iyo zivuga.

Inyoni nziza ifite amabara y'umweru n'umukara, amaso y'umuhondo n'umukara, ihagaze ku ishami ry'igiti . Inyoni zituma ba mukerarugendo badusura ,bakaduha amafaranga yo kubabaka igihugu cyacu.

Inyoni ihagaze ku ishami ry'igiti cy'ironji, ifite ubwoya bwinshi, ikagira umurizo miremire y'imikara, ubwoya bufite ibara ry'umuhondo, ikagira n'agasatsi hejuru ku munwa k'umuhondo, inyoni ni nziza, zikurura ba mukerarugendo, bakaduha amafaranga.

Igisimba gifite ubwoya bw'umukara, amacumu y'umweru, kiri kugenda m'umuhanda w'umukara urimo umurongo w'umweru. Iki gisimba gitera amacumu, ukibonye ugomba kukitondera.

Ingagi irahagaze, ifite ibara ry'umukara, ihagaze mu bwatsi bwinshi, ingagi ni nziza zikurura ba mukerarugendo bakaduha amafaranga yo kubakisha igihugu cyacu. Kandi tugakuramo n'amafaranga yo gufasha abatishoboye.

Inkende ifite ibara ry'umukara, iri mu biti byinshi ihagaze ku ishami. Inkende zituma tubona amadovize, kandi zikurura ba Mukerarugendo.

Ubwoko bw'inyamaswa buri mu ishyamba, bumeze nk'ihene, bufite amahembe maremare y'umukara. Inyamaswa ni nziza zituma abazungu baza kuzireba, bakadusigira amafaranga.

Inuma ihagaze hasi ifite amaguru y'umutuku, amababa afite amabara y'umweru, umukara umunwa w'umuhondo, amaso y'umutuku. Inuma ni nziza ni ikimenyetso gishushanya amahoro, kandi inuma ikurura bamukerarugendo, bakaduha amafaranga.